Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bafatanye ibiganza bakoze uruziga, bari gukina mu rwego rwo kugira ngo bakangure ubwonko bwabo, hakaba hari ibyumba by'amashuri byubatse neza bituma aba abana bakunda kwiga.

Abana benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bari kumwe n'umubyeyi uri kubaganiriza, abana bakiri bato bakunda inkuru zisekeje, bose bamuteze amatwi kandi bari kumureba, nta numwe ureba ku ruhande.

Abana bato cyane biga mu mashuri y'incuke bagenda mu muhanda bagenda gake gake aho baba bahagarara bakareba inyuma biba bigoye kugira ngo bagere ku ishuri mu gihe ababyeyi babo batabafashije kugerayo.

Abana bato biga mu mashuri y'inshuke bicaye hamwe bari gufata amafunguro ya saa sita, aba bana bigaragara ko banezezwa no gufatira hamwe amafunguro, cyane ko bamwe muri bo mu miryango yabo usanga kubona aya mafunguro biba bigoye.

Abana bato cyane biga mu mashuri y'inshuke cyangwa se abanza, bari inyuma y'ishuri, ni ishuri ryubatse neza; ryubakishijwe amatafari ahiye, rifite inzugi ziri mu ibara ry'ubururu, aba bana na bo bambaye impuzankano z'ubururu.

Abana bicaye ahantu hamwe bose bari kuganirizwa bigaragara ko bari gusoma inkuru, hari umuntu mukuru uri kubasomera inkuru kandi bose bamuteze amatwi, ni ahantu mu cyumba cy'ishuri barambuye imikeka hasi maze barabasobanurira.

Abana benshi cyane bakaba bari mu irerero, bafite udukombe bose tw'icyatsi kibisi bakaba bari kunywa igikoma, Leta y'u Rwanda yashyizeho amarere y'abana mu rwego kugira ngo ihashye igwingira.

Aba ni abanyeshuri bateranyirijwe ahantu hamwe, bicaye mu buryo bw'amatsinda, aho bari kugirana ibiganiro byo mu matsinda, bituma abana bamwe na bamwe batinyuka ndetse bagatanga n'ibitekerezo byabo nta nkomyi.

Abana bato cyane bigaragara ko biga mu mashuri y'incuke, bari mu muhanda bari kuva ku ishuri, aba bana bari gutambuka ntacyo bitayeho, aho bagenda bicara hasi ubundi bunama, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane.

Ni byiza gutoza abana bakiri bato kugira isuku, aha hari umubyeyi wateye kandagira ukarabe imbere y'umuryango w'inzu arangije ashyira abana ku murongo, buri mwana ari gutambuka akamukarabya intoki mu rwego rwo kugira ngo abarinde indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abana biga mu mashuri abanza bakaba bateraniye ahantu hamwe, bicaye imbere y'ameza, bakaba bambaye impuzankano zabo bigaragara ko bategereje gufungura kuko byemejwe ko abana bazajya bafatira amafunguro ya saa sita ku mashuri yabo.

Aba ni abana bakiri bato bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo wambaye impuzankano y'umweru, ari kugenda abasobanurira babiri babiri, urabona ko bari kugenda bavugana bisa nkaho hari ibyo yabwiye gukora.

Aba ni abana bicaye imbere y'ishuri, bakaba bambaye impuzankano ya kake ndetse n'ubururu, bambaye udukwete tw'amabara agiye atandukanye, bigaragara ko bari kuva ku ishuri cyangwa se bari kujyayo, hakaba hari kuva akazuba.

Akenshi na kenshi usanga ku bikuta by'ibigo by'amashuri cyane cyane abanza ndetse n'ayisumbuye haba hariho ibishushanyo bigaragaza ibyo abanyeshuri biga, aho abanyeshuri bifashisha ibyo bishushanyo basobanukirwa.

Ku nyubako z'amashuri y'incuke cyangwa se abantu usanga hariho utwapa tumwe na tumwe dushushanyijeho ibishushanyo ndetse hariho n'amazina yabyo, mu rwego rwo kugira ngo abana babisome maze babimenye.

Icyumba kirimo intebe, ameza ndetse kuri ayo meza hateretseho igitabo, hakaba hateretseho n'umugozi bifashisha bacaginga ibyuma by'ikoranabuhanga, muri iki cyumba harimo ibintu byinshi cyane bigaragara ko ari icyumba kibamo umuntu wibana.

Inyubako y'amashuri, aha ni mu mashuri yisumbuye, hakaba hari inkingi zikozwe mu byuma, amashuri afite inzugi zikoze mu biti z'icyatsi kibisi, yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunze kubigisha inyuguti ndetse n'imibare mu rwego rwo kugira ngo bakangure ubwonko bwabo maze bakurane ubuhanga n'ubumenyi mu bintu byose.

Ikibaho abanyeshuri bigiraho, akenshi na kenshi usanga handitseho imibare ndetse n'inyuguti mwarimu aba yabigishije, kuko mwarimu iyo ari kwandika ku kibaho bituma umunyeshuri yumva ibintu ndetse akamenya n'uko babyandika na we akajya abyandika.

Ahantu heza cyane hubatse inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hariho igishushanyo kiriho umusore ndetse n'inkumi, bigaragara ko ari ahantu abantu bakundana bashobora gusohokera maze bakanezerwa n'urukundo rwabo.

Mu Rwanda hagize ikoranabuhanga ku buryo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza babaha mudasobwa maze nabo bakabasha gukora ubushakashatsi. Aha harimo abanyeshuri bicaye mu ntebe zabo bakaba bafite mudasobwa imbere yabo.

Umwarimu wigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bimusaba kuba afite agakoni mu ntoki, mu rwego rwo kugira ngo abakebure; uyu ni umwarimu ugiye kwigisha aba banyeshuri isomo ry'Icyongereza nk'uko yabyanditse ku kibaho.

Iki ni ikigo cy'amashuri, ibi byumba by'amashuri byubakishije amatafari akozwe mu isima. Hakaba hasizeho irangi ry'umuhondo. Harimo utuntu twiza cyane dufite amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Bisakaje amabati y'ubururu.

Abana bakiri bato cyane b'abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke bahagaze mu muryango w'inzu, aba bana bari kwitegura ngo bajye ku ishuri, ni byiza ko abana bagurirwa impuzankano maze bakoherezwa ku ishuri bakiri bato kugira ngo bazakure babikunda.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati, imbere mu mbuga hasashe amapave, hakaba hari n'icyapa kigaragaza yuko ari urwunge rw'amashuri rwa Gatagara. Bakagaragaza indangagaciro na kirazira bagenderaho.

Iki ni ikigo cyigamo abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, hakaba hari umunyeshuri uhagaze mu muhanda w'igitaka ariko bigaragara ko uri gukorwa, wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'umupira w'amaboko urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, hirya ku kigo cy'amashuri hari abandi banyeshuri bari kuhaturuka.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, izi nyubako zubakwaga kera kandi zikaba zari nziza cyane, zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati, ariko zarashaje kuko zari iza kera.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubatse neza cyane ikaba yubakishije amatafari y'isima isakaje amabati y'ubururu harimo ikigega cyubakishije amabuye gifata amazi kugira ngo abana batabura amazi yo gukoresha.

Aka ni agakarito karimo ingwa z'amabara agiye atandukanye, izi ngwa zifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, aho umwarimu azikoresha yandika ku kibaho asobanurira abanyeshuri na bo bahanze amaso ibyo ari gukora.

Mu bigo by'amashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye, bifashisha ibishushanyo bigiye bitandukanye, bakabimanika ku nkuta, maze abanyeshuri bikabafasha gusobanukirwa amazina y'ibikoresho.

Aha hari inyubako z'ikigo cy'amashuri, ni ibyumba byiza cyane byubatswe mu buryo bugezweho, byubakishije amatafari ahiye, bisakaje amabati y'umutuku ndetse n'ay'ubururu, bikaba bizengurutswe n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga muri iki kigo.

Amashuri abanza, ay'incuyuke ndetse n'ayisumbuye, usanga bifashisha bimwe mu byo biga, bakabimanika ku nkuta, maze buri wese akajya yicara abireba. Ibyo bituma ubwonko bwe bukanguka kandi bukabifata.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri. Ni ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu mu cyaro, hakaba hagaragara ko hubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hasakaje amategura. Ni gake cyane hakunze kugaragara ibyumba by'amashuri bisakaje amategura.

Abana bakiri bato iyo bagiye ku ishuri ntabwo bahita binjira mu ishuri, ahubwo babanza guhagarara imbere y'idirishya. Ahaturi kubona abana batatu bahagaze mu idirishya ry'ishuri, aho batari kwinjira. Ni byiza ko abana batozwa umuco wo kwihutira kwinjira mu ishuri.

Hirya no hino mu gihugu hifashishwa uburyo bwo kumanika amatangazo aho abantu babasha kuyabona; mu rwego kugira ngo buri wese arusheho gusobanukirwa ibintu nta rujijo. Aha ni mu kigo cy'amashuri aho bamanika amasomo kugira ngo abanyeshuri bayasobanukirwe.

Umwana muto wambaye impuzankano ya kake ndetse n'ishati y'ubururu, ahetse igikapu kirimo amakayi, ahagaze mu mbuga y'ikigo cy'ishuri, haruguru ye haragaragara ibyumba by'amashuri ndetse n'abandi banyeshuri bigana.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kumwe na mwarimu wabo ubigisha, yambaye agapira k'umuhondo, uyu mwarimu afite mudasobwa, ari kubasobanurira ndetse anaberekera uko ikoreshwa.

Iki ni icyumba cy'amashuri kikaba cyubatse neza, cyubakishije amatafari y'isima. Gifite inzugi z'umuhondo ndetse hakaba hari n'amagambo yanditseho agaragaza yuko ari icyumba cy'abarimu.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari kwiga ari benshi cyane, batatu bagiye bicaye ku ntebe imwe, aba bana bombi ba basa nkaho barangaye ab'imbere bari ab'inyuma ndetse n'ab'inyuma bareba ab'imbere.

Ikigo cy'amashuri abanza, iki kigo kikaba kirimo abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bamwe bambaye kaki abandi bakaba bambaye ijuru cyangwa se ubururu aba bana bose bigira hamwe kandi bagatsinda neza.

Umwana muto cyane wiga mu mashuri abanza, bigaragara ko yiga nko mu mwaka wa mbere, yakuyemo urukweto rumwe afata ibuye mu ntoki, bigaragara ko asa nkaho arindiriye mugenzi we ngo amutere iribuye afite mu ntoki.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri, akenshi na keshi iyo abanyeshuri bamaze kugeramo abarezi barahafunga kuko abakiri bato cyane cyane abiga mu mashuri y'incuke bashaka gutaha isaha zitageze.

Abanyeshuri iyo bari kwiga bibasaba amakayi ndetse n'amakaramu, aho atekereza ikintu akagisoma, yamara kugisoma akacyandika mu rwego kugira ngo amenye neza ko yacyumvise neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kuva ku ishuri, bari kunyura mu muhanda mubi cyane, bigaragara ko n'imvura yaguye hakaba harimo ibidendezi, bene aba banyeshuri bitewe n'ukuntu baba barangaye, bamwe bagera iwabo bituye muri ibi bidendezi.

Ibi ni ibishushanyo abarimu bigisha mu mashuri abanza bakunze kwifashisha mu rwego rwo kugira ngo bigishe abana babo maze bamenye neza kubara isaha iyo ariyo yose, abana na bo iyo babikurikiye bakura bazi kubara amasaha.

Abana bato cyane biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'ubururu ndetse na kaki, bari imbere y'icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gisakaje amabati, umwe ari gutambuka abandi barahagaze.

Uwo mupira uboshye mu mashashi, ukaba uboshye neza, abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukina mwene iyi mipira mu gihe cy'amasaha yo kuruhuka, ibi kandi bigatuma basabana, bakazakura bibuka urwo rukundo bagiranye.

Abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, bakunze kwigisha abana babo bifashishije udukinisho, udupapuro banditseho bagashyiraho ibimenyetso ndetse n'imibare, mu rwego rwo kugira ngo abana bagire ubumenyi bitabagoye.

Kuva u Rwanda rwabona ubwigenge, bakomeje kugerageza gufata umwana wese kimwe nk'undi, aho n'abafite ubumuga bahabwa ijambo mu mashuri maze bakiga; aha turi kubona urukuta rushushanyijeho umwana wicaye mu kagare ufite igitabo mu ntoki.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaro yayo ntiri kugaragara, turi kubona igice kimwe cy'idirishya mu idirishya rimeze neza ririmo ibirahure, imbere hakaba hari imbuga nziza cyane ikoze aho bagaragaza yuko ushobora kuhagera ukaba wanahaparika imodoka yawe.

Akenshi na kenshi usanga ku bigo by'amashuri y'incuke cyangwa se abanza haba hari ibishushanyo by'abana biri ku nkuta, aha hari igishushanyo kiriho abana batatu bari kureba ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda imbere yabo, ndetse imbere y'urwo rukuta hari ukwatsi rwiza cyane

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishati y'umuhondo, ari kumwe na mwarimu we, afite agatabo mu ntoki; mwarimu ari kumwereka uko azajya agasoma, bahagaze mu cyumba cy'isomero ry'ishuri.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, iyi nyubako isakajwe amabati atukura ikaba izengurutswe n'ibiti byiza cyane ibirebire ndetse n'ibigufi, bitanga umuyaga bigatuma abanyeshuri biga neza cyane.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bose bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hahagaze umwana w'umuhungu ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara nkaho hari icyo ari kubagezaho.

Iyi nyubako nziza cyane yubatse munsi y'umuhanda, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari ibyatsi byiza cyane, haruguru yayo hari abantu bari kuhatambuka ndetse hari n'imodoka iri mu ibara ry'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye muri salle aho bari guhabwa ikiganiro, aba banyeshuri barishimye cyane kandi bari guseka, bigaragara ko uri kubaha ikiganiro bamwishimiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahurijwe hamwe, bigaragara ko bashobora kuba bari gusenga. Imbere yabo hari mugenzi wabo uri kugenda ubigisha ijambo ry'Imana, aho ari kugenda abasobanurira nabo bagasobanukirwa.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe zabo, bambaye impuzankano ziri mu mbara y'umweru ndetse na kaki, bakaba babashyiriyeho amashusho baritegereje neza cyane kandi barakurikiye.

Abanyeshuri babiri bari gutambuka mu muhanda bari ku nkengero z'umuhanda, ahagiye hari amabuye abafasha gutambukaho aho ibinyabiziga bidashobora kubasagarira, umwe ahetse igikapu undi ari kugenda afata ku rukuta.

Uyu ni umwarimu, yicaye mu cyumba abarimu bahuriramo yicara imbere y'ameza ye, ari gukosora abanyeshuri ibizamini bakoze, afite ikaramu y'umutuku ari kugenda avivura ibyo bakoze neza.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, uyu muhanda ukaba uzamuka ugaca ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, nk'ahari ishuri ry'incuke hashushanyijeho abana babiri, urwo rugi rukaba rusa icyatsi kibisi.

Abanyeshuri babiri bari mu muhanda wa kaburimbo. Bari gutambuka bagana mu nyubako ziri hano zitangirwamo ibikorwa bya Leta. Aha hakaba ari mu kigo cy'ishuri. Abanyeshuri bagiye ku ishuri. Ndetse hakaba hari n'abarezi babo babari imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bajya bageraho bakabaha umwanya maze nabo bakagaragaza impano bafite ndetse bakanidagadura, aha hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu ndetse na kaki bakaba bari kwirira imiziki.

Ni inyubako nziza cyane z'ikigo cy'amashuri, iki kigo cy'amashuri kiri ruguru y'umuhanda ho gato, ni umuhanda uri ruguru y'ahantu bashyizeho ruhurura itwara amazi, mu rwego rwo kugira ngo umuhanda uhari umererwe neza, izi nyubako nazo abanyeshuri bazigamo batekane.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku, ni icyapa kigaragaza ahantu hari ikigo cy'amashuri hakaba ari ikigo cy'abadive bita Gahogo, bakaba bagaragaza aho giherereye.

Uru ni urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kumwe n'ababyeyi babo, bari basuwe n'inzobere yaturutse mu mahanga, aho bifotoreje imbere y'inyubako y'ivuriro, urabona ko bose bishimye.

Aba ni abanyeshuri bateranyirijwe ahantu hamwe bahagarara mu buryo bw'imirongo, maze abarezi babo bahagarara imbere, hari hari umugabo waje kubabwira imbwirwaruhame ku bijyanye n'ikintu runaka, uko bakwiye kwitwara.

Hirya no hino mu gihugu mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, leta yashyizeho gahunda yo gufatira hamwe amafunguro ya saa sita ku ishuri, hari abana bambaye impuzankano y'ishuri bakaba bari gufata amafunguro yabo ya saa sita.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari mu marushanwa y'umukino w'amaboko, umwe yazamutse mu birere, bigaragara ko agiye gutera umupira ukomeye mu kibuga cya bagenzi be, uyu mukino ukinanwa ubuhanga kandi bigasaba imbaraga.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bakunze gusanga bigisha abanyeshuri babo bafite udukoni mu ntoki, aho bagenda baberekera urangaye bakamukebura, kandi bakaba bari maso mu rwego rwo kugira ngo bigishe neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye mu ntebe zabo baratuje cyane; imbere yabo hari umwarimu akaba ari kubasobanurira, si ibyo gusa, kuko hari n'umusore wabasuye, mwarimu wabo akaba ari kubasaba kumutega amatwi ngo abibwire.

Icyumba kirimo utubati duteretsemo ibitabo ndetse n'amakayi, hakaba harimo n'intebe, biragaragara ko ari icyumba abarimu bahuriramo iyo bavuye kwigisha kuko kuri buri ntebe hagiye hariho ibitabo bya buri mwarimu.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari abana bambaye impuzankano z'umutuku, si ibyo gusa kuko hirya yaho hari n'abandi bambaye iy'umweru; bigaragara ko bari mu kiganiro bari guhugurwa.

Aba ni abanyeshuri bahuriye ahantu hamwe, bahagaze ku mirongo, bambaye impuzankano z'umweru ndetse na kaki, bakambara inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi, imbere yabo hari abayobozi babo, bakaba bari kubagezaho impanuro zigiye zitandukanye.

Iri ni isomero rihagazemo umugabo. Ibitabo bipanze mu tubati ahantu hagiye hatandukanye, aho buri munyeshuri aza akareba aho igitabo akeneye kiri, bitamugoye kandi bimworoheye cyane.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'amaboko, uyu mukino ukinwa n'abakinnyi b'abahanga baba bazi gusimbuka, bakamenya kwihuta aho bagenda bongera bagaruka, hakaba hari umwe uri imbere yabo uri kuberekera bigaragara ko agiye kubasifurira umukino.

Iyi nyubako nziza cyane iri ruguru y'umuhanda. Ni inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya y'umweru hariho ibirahuri by'umukara; imbere yayo haparitse moto ndetse hakaba hari n'abanyeshuri babiri b'abakobwa, bigaragara ko bagiye gutambuka bambuka umuhanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mwarimu wabo yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru, naho abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu ibara ry'ubururu, aha mwarimu ari kugenda areba abanyeshuri ababaza niba babyumvise.

Imodoka iri mu muhanda w'amabuye, urugi rumwe rurafunguye, ruguru yayo hakaba hari abana bambaye impuzankano z'abanyeshuri, aho iyi modoka ishobora kuba ije kubatora ngo ibatahane mu rugo.

Aha ni aha biri iyi siporo rusange, hari umugabo uri kugenda aberekera ibyo bakora, bose bari guhuriza hamwe bakagorora ingingo, aho bagorora amaboko, bakagorora amavi ndetse n'umugongo.

Ubu ni ubwogero bwubatse neza bukaba buriho amakaro y'umweru ndetse burasakaye, busakaje amabati mu rwego rwo kugira ngo butazajya bwandura kandi bugire umumaro ku babukoresha.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, babicaje hamwe bari kubaganiriza. Ni byiza ko uganiriza abana, kuko bituma bayoboka ibiganiro wabahaye, harimo bamwe bari kubyandika.

Inyubako nziza cyane zubatse neza, zikaba zubakishije amatafari ahiye, zikaje amabati y'umutuku, zisize irangi ry'umuhondo n'umweru ndetse imbere yabo hari indabyo nziza ndetse n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni ikigo cy'amashuri kikaba cyubatse neza cyane, cyubakishijwe amatafari gisakaje amabati y'ubururu, aha bagaragaje ikibuga cy'umukino w'amaboko uzwi nka basket.

Icyumba cy'amashuri aha hari kugaragaramo intebe ndetse n'ikibaho cyanditseho inyuguti nyinshi cyane, mwarimu iyo ari kwigisha abanyeshuri akora ibishoboka byose kugira ngo bumve ibintu, niyo mpamvu nawe yandika byinshi.

Aba ni abanyeshuri biga mu bijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro; bambaye impuzankano z'ubururu, ndetse harimo n'umwe wambaye akarinda umutwe k'umuhondo. Bose bari kugenda bagerageza gushyira umuriro muri tuno tubati.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kake bambaye n'inkweto zifunze bakaba bari gutambuka mu muhanda bagana ku ishuri, ni umuhanda wa kaburimbo ndetse hepfo yawo hakaba hari n'ibiti birebire.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye mu ishuri. Imbere yabo hari mwarimu w'umumama ufite agatabo mu ntoki, ari kubasomera ndetse akababaza niba bari kubyumva neza. Imbere yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho inyuguti.

Aba ni abanyeshuri bateranyirijwe ahantu hamwe, hakaba harimo umugabo umwe uri gufotora ibiri kubera aho, ni abanyeshuri bambaye impuzankano za kake ndetse n'udupira tw'ubururu, aba banyeshuri bose baricaye kandi barakurikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye mu ishuri. Ni benshi cyane bamwe baricaye abandi barahagaze imbere yabo hakaba hari umurezi uri kubagezaho ikiganiro. Bose barakurikiye kandi bamuteze amatwi.

Aba ni abanyeshuri bimenyereza ibijyanye n'ubuvuzi, bambaye impuzankano z'umweru, bakaba bari kugenda basuzuma bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye, aba rero iyo bakoresheje ibi bikoresho bituma na bo bagira ubumenyi.

Aba ni abanyeshuri bahurijwe ahantu hamwe mu kibuga, imbere yabo hari umurezi wabo ndetse hakaba n'umwe mu bahagarariye polisi, ari kubaganiriza ababwira ko ari bo bagomba kwicungira umutekano.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hari mudasobwa, bose bakurikiye imbere, aho mwarimu yabashyiriyemo amafoto bagiye kwifashisha kugira ngo basobanukirwe isomo ari kubigisha bose barakurikiye.

Abanyeshuri babiri bahagaze mu marembo y'ikigo, ni bahungu babiri bambaye amapantaro y'ubururu ndetse n'amashati y'ubururu, umwe aratebeje undi yambaye umupira, bose bambaye inkweto nziza.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari guhabwa ikiganiro n'ubuyobozi bwabo, iki kiganiro bakaba bagishyize aho bose bareba, bose barakurikiye kandi bari kureba nta n'umwe urangaye, ibi bigatuma basobanukirwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu, aba bantu bari kujya mu byerekezo bigiye bitandukanye, hari abaturuka mu muhanda wo ruguru uhura n'uyu muhanda ndetse hakaba harimo n'ibiti byiza cyane bigaragara ko abawugendamo bawugendamo nta kibazo bafite.

Iki ni ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Nyanza, ni ikigo cyiza cyane kizwiho gutanga uburezi buzira umuze, hakaba hari ucunga umutekano uhagaze imbere y'iki kigo.

Abanyeshuri, abarezi ndetse n'abagenzuzi, bateraniye hamwe mu kigo cy'ishuri. Bari kwitegereza igikoresho cy'ikoranabuhanga cyahawe abanyeshuri kugira ngo bajye bagikoreraho ubushakashatsi. Abanyeshuri bakaba bari gusobanura ibyiza byacyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, aba banyeshuri bakaba bari mu bukangurambaga, aho harimo babiri muri bo bafite icyapa kigaragaza igikorwa barimo.

Ishuri ririmo intebe ndetse n'amakayi, bigaragara ko abanyeshuri basohotse ariko basigamo ibikoresho, imbere hakaba hari ikibaho cyanditseho inyuguti nyinshi cyane bari bari kwiga, ndetse hakaba hamanitse n'amwe mu masomo biga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bishimira kwigira kuri mudasobwa cyane ko atari ibintu bakora buri munsi, ibi bigatuma bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye bitewe n'ibyo mwarimu wabo aba abasaba.

Sha ahandi mu kigo, cy'amashuri yisumbuye aho abanyeshuri biga babamo. Uyu ni umunsi wo gusura, abanyeshuri ari umunyeshuri wahobeye umubyeyi we. Bigaragara ko bari bakumburanye cyane.

Inyubako irimo ibitanda bibiri kandi buri kimwe kigiye kigeretse inshuro ebyiri, inyubako bigaragara ko yubatse neza, ikaba isakaje amabati, aha rero hashobora kuba haba abanyeshuri kuko bigaragara yuko hari n'aho bashyira ibikapu byabo.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kubyina imbyino gakondo, bamwe bambaye imishanana, abandi bambaye impuzankano zabo z'ishuri ariko ibyo ntibiri kubabuza kubikora neza cyane uko bikwiye.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahurijwe hamwe mu cyumba k'inama, imbere yabo hari umurezi uri kubibutsa indangagaciro, inshingano ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kiranga umunyeshuri nyawe.

Iki ni icyumba cy'amashuri kikaba giteraniyemo abanyeshuri bari kwiga, iki cyumba cy'ishuri kikaba kirimo mudasobwa aho abanyeshuri biga bakora n'ubushakashatsi kandi bagakurikira neza mu rwego kugira ngo bazatsinde kuko bafite ibikoresho bihagije.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ikigo cy'amashuri, ni ikigo cy'amashuri kigisha abana b'abakobwa kikaba giherereye ku Karubanda, kiri imbere y'umuhanda wa kaburimbo uri gutambukamo abantu ndetse n'imodoka.

Aba ni abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye bakaba bambaye impuzankano. Bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'amashati y'umweru n'abakobwa bakaba bambaye amajipo y'umukara n'amashati y'umweru. bose barakurikiye kandi baricaye baritonze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari kuva ku ishuri, bari gutambuka mu muhanda w'amabuye ndetse bamwe bari guca ku ruhande ahari amapave, imbere yabo hari igiti cy'umuriro w'amashanyarazi gikoze mu isima.

Imodoka nziza cyane ziri kugana ahantu bigaragara ko ari mu kigo cy'amashuri. Izi modoka zirimo abayobozi bagiye kureba ubuziranenge ndetse n'ubugenzuzi bw'ibigo by'amashuri, bakareba niba bashyira mu bikorwa amabwiriza yose nkuko bayahabwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzakano, kaki ndetse n'ubururu, imbere yabo hakaba hari abayobozi, aba bayobozi harimo n'uwo mu nzego z'umutekano tuzi nka polisi, abanyeshuri babicaje babatandukanyije babiri babiri ku ntebe.

Mu mashuri yisumbuye, bagira ingengabihe bifashisha kugirango amasomo yabo babone uko bayakurikiranya dore ko aba ari na menshi. Aha turi kubona ikibaho gishushanyijeho ingengabihe y'abanyeshuri bakagaragaza amasomo ya mu gitondo n'aya nimugoroba.

Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bakaba bari kwiga gukoresha utwuma dusuzuma ibizamini bigiye bitandukanye, aho bakoresha icyo bita jomeri maze bakabona uburwayi umuntu afite.

Inyubako nziza cyane imeze neza isize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite parafo, harimo aho abanyeshuri bigira bareba amashusho ndetse bakareba n'ibyo bari kwigishwa, hakaba harimo n'intebe nziza abanyeshuri biga bicayemo.

Umumama uri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo ari guca ku ruhande ahasashe amapave, afite agasakoshi ku rutugu, hirya ye hari inyubako ndetse iyo nyubako ikorotirijwe ibyuma ubona yuko ari ahantu heza.

Inyubako nziza cyane ziri ahantu hamwe n'ubwo ari ntoya ariko bigaragarako hatuwe n'abantu b'abasirimu, kandi hakaba hagaragara neza. Aha rero hakaba harimo n'insina ku buryo abahatuye babasha kubona ibyo kurya.

Umugabo ufite mudasobwa imbere ye ndetse akaba afite n'igitabo, ari gusoma akora n'ubushakashatsi, aranezerewe cyane kuko ibyo ari gukora ari kubona biri kugenda neza kandi ubushakashatsi ni ikintu buri wese yishimira.

Aha ni mu cyumba cy'ishuri hakaba harimo umunyeshuri umwe, amatara kwaka ndetse iri shuri ryubakishije amatafari ahiye, hakaba harimo intebe nziza cyane aho abanyeshuri bicara begamye.

Inyubako nziza cyane zikaba zirimo ibyumba bigiye bitandukanye, buri cyumba cyegeranye n'ikindi, yubakishije amatafari ahiye ndetse bikaba bigaragara ko inageretse inshuro ebyiri, hasi hari isima bigaragara ko ishaje.

Aha ni ahabereye amahugurwa. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'urubyiruko maze rukorera mu cyumba cy'inama cyiza cyane, aho bagiye bakagita. Aya mahugurwa nta n'umwe utayumva bitewe n'ukuntu bayatangiye ahantu heza.

Inyubako nziza cyane zubatse ahantu hamwe, ni ahantu ubona ko hagaragara neza, hakaba hateyemo ibiti byinshi cyane ndetse n'indabyo, ku buryo uwagira amahirwe yo kuhagera yakwifotoza ifoto.

Aha ni mu cyumba cy'abanyeshuri, hakaba harimo inkweto zifunguye abanyeshuri barara muri iki cyumba baba bambaye, hakaba harimo ubwogero bashobora kwifashisha mu gihe bakeneye koga nko mu maso cyangwa se koza amenyo.

Aha ni mu isomero ry'abanyeshuri, aho harimo ibitabo bigiye bitandukanye, turi kubona ibitabo bimwe byaba iby'ubugeni, iby'ubuhanga ndetse n'iby'amasiyansi, aho abanyeshuri babyifashisha mu kwiga.

Aba ni abaririmbyi bahawe umwanya ku rubyiniro ngo na bo batambutse indirimbo zabo, bambaye imyenda myiza cyane ya korari, aho bambaye umukara ndetse n'umweru, aha hakaba hari ababateze amatwi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari isakaje amabati atukura, ndetse iyi nyubako bigaragara ko ari nziza bitewe n'indabyo nziza cyane ziri imbere yayo, aho abahagana bazishimira.

Iki ni ikibuga cyiza cyane, iki kibuga kimeze neza kuko kirimo ubwatsi karemano hamwe mu duce tumwe na tumwe ibyatsi byavuyeho kubera kuhakinira, hariho amazamu mezi ndetse hakaba n'ibiti bizengurutse iki kibuga bituma abahakinira banezerwa.

Muri Kaminuza y'u Rwanda, usanga abanyeshuri bahabwa amacumbi ndetse bagahabwa na bimwe mu bikoresho by'ibanze harimo nk'utubati ndetse n'ibitanda, yewe bakabaha na matera zo kuryamaho; aha hari kugaragaramo umunyeshuri wicaye mu icumbi rye.

Akabati gapanzemo ibitabo bigiye bitandukanye, aho muri kano kabati hagiye hateretsemo ibitabo bigiye bitandukanye, hejuru hakaba hari inyuguti zanditsemo ngo gifate ugisome nurangiza usubiremo.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo akabati karimo: imyenda, udukapu, ibikombe ndetse harimo n'ifoto, aka kabati gateretse mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zizengurutswe n'utwuma twiza cyane dusa umweru, si ibyo gusa kuko zifite ibirahure byinshi cyane bigize inkuta, aha hanezeza buri wese uhageze.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umuhondo, imbere yaho hari ubwogero bwiza cyane bwubatse buriho amakaro y'umweru ndetse imbere yabwo hakaba hasashe amapave.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, iyi nyubako harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa herekanwa amashusho, inyubako ifite irangi ry'umuhondo, umweru bikaba bigaragara neza y'uko hakorerwa igikorwa cyo kwigisha abanyeshuri.

Inyubako zigiye zimeze neza, akenshi na kenshi usanga harimo ubwogero mo imbere aho ushobora koga mu kanwa, mu mutwe cyangwa se ukaba wakoza ikintu bitagusabye gusohoka hanze ndetse hakaba hari n'ikirahure ushobora kwireberamo.

Urubyiruko rwaturutse mu ngeri zigiye zitandukanye rwateranyirijwe hamwe, aho bari gusobanurirwa ibintu bigiye bitandukanye, bose bateze amatwi nta n'umwe urangaye, bigaragara ko ibyo bari kubwirwa ari ingirakamaro.

Inyubako nziza cyane zubatswe neza, izi nyubako zikaba zubatse zifite umusingi wubakishijwe amabuye, hakaba hariho amadarage ndetse ku nkuta hasizeho irange ry'umweru zikaba zisakaje amabati atukura, hakaba hari n'ubusitani buri imbere yazo.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, iyi nyubako ifite inkuta zisize irange ry'umweru, si ibyo gusa kuko mo imbere hari utwuma twubatse neza, bigaragara ko ari ahakorerwa ubushakashatsi n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako ikiri kubakwa cyangwa se iri kuvugururwa, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati, izengurutswe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ibyo biti bikaba bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bakoresha iyi nyubako.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, igeretse gatatu, ikaba irimo ibirahure byiza cyane ndetse n'amarido, imbere yayo hari imigozi yanitseho imyenda ndetse n'indi yanitse, hasi hakaba hateye n'indabyo.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko ari kaminuza y'ubumenyi ngiro iherereye i Tumba akaba ari kuzenguruka akora ubushakashatsi kumashini kabuhariwe zabagenewe ngo bazigireho.

Aha ni ahasuzumirwa imiti igiye itandukanye cyangwa se ibizame byatanzwe n'abarwayi, bakabasha kumenya umuti baha umuntu bitewe n'uburwayi afite cyangwa se yaba nta burwayi afite agahabwa inama.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo. Ikagira parafo y'umweru, yubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hariho isima. Ni mu ishuri kuko turi kubona n'ikibaho mwarimu yifashisha ari kwigisha abanyeshuri.

Akabati gateretsemo ibikoresho bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha, harimo amavuta yo kwisiga, isabune ndetse hakaba hagaragara n'igitanda umuntu ashobora kuryamaho igihe ananiwe cyangwa se agiye kurara aho hantu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nyubako yubakishije amatafari asize irangi ry'umuhondo, umukara. Ikaba ifite amadirishya ariho ibirahure, ndetse n'utwuma dutuma nta muntu wakwinjiramo uko yiboneye.

Ahabereye amahugurwa y'abakozi harimo abamama ndetse n'abapapa, si ibyo gusa kuko harimo n'urubyiruko, hari abantu babiri bari imbere bari kugenda babahugura aho bari kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatse neza, zifite irangi ry'umuhondo, zisakaje amabati atukura, hakaba hari ibiti byiza cyane bigiye bitandukanye bitanga umuyaga hirya no hino ku bantu baba bari aho.

Inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati atukura, ni inyubako zifite hepfo n'uruguru kandi hose zikaba zigeretse inshuro enye, hari ubwatsi bwiza cyane bukikije izi nyubako bigaragara ko ari ahantu heza.

Iki ni icyumba kirimo ibitabo bigiye bitandukanye, aho bagenda babitereka bakurikije igihe byagereyemo, maze uje agira icyo abaza bakamufasha bakurikije icyo akeneye bityo na we bikamworohera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo, ikaba isakaje amabati y'umukara, si ibyo gusa kuko izengurutswe n'ibyuma ndetse imbere yaho hakaba hari aho ushobora gusiga imodoka yawe.

Umugabo wambaye ishati nziza cyane irimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru, yambaye amadarubindi ndetse akaba ari kwigisha abantu bari aho, ari kubasobanurira yishimye kandi aseka abanyuriramo bimwe mu byo yabashyize imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umuhondo, hakaba hari umukobwa uri gutambuka azamuka ku madarage ari hafi aho agenda afashe ku twuma tuhatangira.

Inyubako nziza cyane igereretse. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ikorotijwe ibyuma bisa umukara. Hakaba hariho n'icyapa kigaragaza ibikorwa bizabera aho hantu muri iyo minsi.

Icyumba cyiza cyane cy'isomero, kirimo ibitabo bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri batambuka bakayoborwa ahari ibitabo bakeneye, maze bakihitiramo ibibafasha bityo na bo bakagira ubumenyi.

Aha ni mu kigo cy'imyuga ndetse n'ubumenyigiro, hakaba hari umugabo wagiye gutambutsa ikiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburyo bwakwirindamo amakimbirane maze bakabana neza.

Abarimu bigisha abanyeshuri na bo bajya bageraho bagafata umwanya maze bagahugurana, aha hari abarimu bateraniye hamwe, bakaba bari gukora ubushakashatsi ndetse banabazanya, mu rwego rwo kugira ngo banoze akazi bakora.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ikaba irimo imiti igiye itandukanye kandi hakaba hakorerwa n'ubushakashatsi bugiye butandukanye kuko harimo ibikoresho byiza cyane kandi bifite ubushobozi bwo gufasha abaganga kubona indwara.

Inyubako nziza cyane irimo ameza ndetse n'intebe, ni ahantu heza cyane kuko hasi hariho amakaro, hakaba harimo irangi ry'umuhondo ndetse n'irindi rijya kuba umweru. Aha hantu ni heza ku rwego utabyumvamo.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako yubatse neza igeretse inshuro eshatu cyangwa enye, imbere y'iyo nyubako haparitse amamodoka abiri, hakaba harimo n'Ibendera ry'Igihugu, iyi nyubako hariho izina rigaragaza yuko ari ikigo cy'ishuri rya PIASS.

Urubyiruko rwahuriye hamwe rukaba ruri mu mahugurwa, imbere yabo hari uri kubagezaho igitekerezo bose bamuhanze amaso kandi bamuteze amatwi, nawe ari kubabwira ndetse nta gihunga afite.

Iyi ni inyubako y'ikigo, cy'amashuri. Ni kimwe mu byumba, abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, bigiramo. Muri ibi byumba, hagiye harimo ibikoresho, bigiye bitandukanye. Cyane ko, abahiga baba bakuze nta n'umwe ubikuganya.

Iyi ni nyubako irimo amoko agiye atandukanye y'amaside, aha rero bakaba babivanga mu gihe bagiye gukora ubushakashatsi, ibi bikorwa n'abanyeshuri biga muri za kaminuza cyane cyane bari gufashwa n'abarimu babo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, izi nyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zasakajwe amabati y'umutuku, harimo amadarage bazamukaho bajya mu magorofa yo hejuru, hakaba hari umwari uri kumanukaho afashe ku twuma.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, ni amashuri yubatse neza mu buryo bugezweho ageretse kabiri, yubakishijwe amatafari ahiye akaba asakaje amabati y'umutuku, si ibyo gusa kuko isize irangi ry'umuhondo, umukara ndetse n'umweru.

Abanyeshuri babiri biga muri kaminuza, bicaye mu cyumba cyabo aho barara, harimo utubati tubiri, buri wese afite ibikoresho mu kabati ke ndetse buri wese akagira n'uburiri bwe, ariko bose barishimye kuko bafite mudasobwa.

Inyubako nziza cyane zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati meza cyane ajya gusa umuhondo, si ibyo gusa kuko harimo n'amatente, hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu, hari n'ibyapa bishushanyijeho abantu.

Ukuboko gufite igikoresho mu ntoki. Aha haragaragara amashuri yubatse neza, akaba yubakishije amatafari ahiye akaba anasakaje amabata atukura, aha baragaragaza yuko ari ikigo cy'umwuga n'ubumenyingiro bakaba bagize umunsi Mpuzamahanga w'ubushakashatsi.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda bari bateraniye aho bahererwa ibiganiro bigiye bitandukanye, imbere yabo hari hari urubyiruko ndetse n'ababyeyi bari gutambutsa ikiganiro babaha impanuro zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ziri ahantu ubona ko hatangaje, hari abantu bari guturukayo. Izi nyubako zikaba ziri ahantu hari ishyamba; iri ni ishyamba rirerire ritanga umuyaga ku bantu batuye aho ngaho.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho. Izi nyubako zigeretse inshuro nyinshi, zikaba zisakaje amabati atukura. Si ibyo gusa kuko harimo n'ubusitani bwiza cyane, n'ibiti, ibirebire n'ibigufi bitanga umuyaga.

Iyi ni inyubako, irimo intebe nziza cyane. Iyi nyubako bikaba bigaragara ko, ikorerwamo inama, zigiye zitandukanye. Bitewe n'ibikoresho birimo, ndetse n'intebe nziza cyane zirimo. Zikaba ziri mu mabara meza.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye, harimo abanyeshuri, abo banyeshuri bakaba bari mu bushakashatsi, aho bameze nk'abari mu bizamini kuko nta n'umwe utuje, ahubwo biragaragara ko bose bahangayitse cyane.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, akeshi na kenshi abiga bacumbikirwa mu kigo usanga mu byumba babamo haba hari utubido turimo amazi yo kunywa, utubati ndetse n'uburiri bwabo bushashe neza.

Iyi ni inyubako nziza cyane kikaba ari icyumba k'ishuri, aya mashuri ni meza cyane aba yubatswe mu buryo bugezweho, bigatuma abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda bakurikira amasomo yabo batuje kuko bayakurikirira ahantu hakeye kandi hatekanye.

Aba ni abantu bahuriye ahantu hamwe. Bakaba bari mu mahugurwa. Imbere ya buri wese hari mudasobwa. Kandi hakaba hari umuntu ubari imbere, uri kubaha ikiganiro. Bose baramukurikiye cyane nta n'umwe uri kureba ku ruhande, kuko ibyo ari kuvuga ari ingirakamaro.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'umukara izengurutswe n'ibiti byiza cyane ndetse n'indabyo zitagira uko zisa, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi hafi aho.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi bikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, aho baba bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye, bigatuma barushaho gusobanukirwa neza uko wavumbura uburwayi umurwayi afite.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ku mpande hazengurutseho amabati atuma nta mvura igeraho, hakaba hariho n'icyapa kigaragaza ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, inyuma hakaba hari ibiti bitanga umuyaga.

Aha ni mu marembo y'ahari amashuri yigirwamo n'abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda, aho usanga babakorera amasuku haba mu mihanda ndetse no mu mashuri, aba bakaba ari abakozi bakora amasuku muri Kaminuza y'u Rwanda.

Iki ni ikigega cyiza cyane ni kirekire kandi gifite ibara ry'umuhondo, hejuru mu kirere haragaragara ibara ryiza cyane ry'ubururu ndetse n'uducu dukeya tw'umweru, hejuru kuri iki kigega hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu agira ati Kaminuza y'u Rwanda.